Ikigo cy'amashuri kiri mu busitani bwiza ndetse n'abanyeshuri bambaye impuzankano ubururu hejuru ndetse ni'icyatsi kibisi hasi bahagarikiwe n'abarimu babo, bisa nk'aho bagiye muru rugendo shuri.

Urupapuro rw'inyuma ku gitabo rwanditseho imibare; rimwe ,kabiri ,gatatu ,kane, gatanu, gatantu ,karindwi ndetse yanditseho n'ijambo ikinyarwanda bigaragara ko ari igitabo cyangwa se imfashanyigisho y'ururimi rw'ikinyarwanda.

Ikibuga cya vole boro kiri ahantu hitegeye ku gasozi ndetse hirya hari ikirere kimeze neza cyane, bigaragara ko ari mu kibuga gikinrwaho n'abanyeshuri bo mu mashuri abanza.